Abantu benshi bicaye muri sare nini, bigaragaza ko bari mu magurupe, buri gurupe ifite ibyo kuganiraho, babahaye n'amazi, ngo uragira icyaka, anywe ku mazi. Muri iyo sare harimo na porojegiteri, igaragaza ko hari ibintu bari kureba imbere, nyuma na bo bakabikomeza.

Umukobwa wambaye imikenyero, yambaye urunigi rufite amabara y'umweru n'umukara, yambaye n'uruhete mu mutwe, impande ye hateretse ibicuba bitatse amabara y'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye imikenyero n'amashati y'umweru. Umwe yambaye n'ishapure ifite amabara abiri iry'umweru n'iry'umukara, bari kunywa inzoga mu kibindi banywesheje imiheha ibiri. Hirya yabo hari n'umuntu uri gufata amafoto n'amashusho y'ibyo bari gukora.

Umutiba uri mu giti uyu mutiba ubamo inzuki, inzuki zishyiramo ubuki maze abantu bakajya kubuhakura bakabukuramo bakajya kubugurisha, abandi bakaburya bugatuma abantu bagira ubuzima bwiza kandi ubuki babukoramo n'umuti.

Bumwe mu buryo bwifashishwaga bari guhunika imyaka harimo ibigega cyangwa imitiba. Ibigega ibikoresho byifashishwaga mu guhunikamo imyaka, hirya y'aho hari ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyatsi.

Ni purize icometseho urunsinga, urunsinga rutwara umuriro ruwuvana muri purize ruwujyana muyandi matara , hariho n'aho bakupurira n'aho bakupura umuriro.

Inzu inzu y'urusengero ifite umunara, impande yayo hari umuntu uri kugenda uri kugendesha igare asa n'aho ari umunyonzi, impande hari abantu basohotse mu rusengero.

Iyi nzu ni urusengero yanditseho paruwase ya ADEPR paruwasi Rwinkuba, ihagaze aho abagabo babiri bambaye ishati y'umweru, undi ishati y'umuhondo urwo rusenge rurakinguye.

Inka iri mu kiraro cya yo ifite ibara ry'umweru n'umukara. Yambaye ihena ry'umweru, Ikiraro cya yo cyubakijwe imbaho. Ifite aho kurira nk'ameza iriraho.

Abaturage bari mu nama, umuyobozi wabo afashe mikorofone ari kubaganiriza, hariho n'umuntu uri gufata amafoto, n'amavidewo ,n'amashusho byabereye muri iyo nama, hari n'abanyeshuri baje kumva iyo nama ,hirya yabo hari amashuri abanyeshuri bigiramo.

Imbaga y'abantu bateranye bicaye hamwe, basa naho bateze amatwi, nkaho bari mu nama. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye, abagore, abagabo, n'abana.

Abaturage bari mu nama, umuyobozi wabo afashe indangururamajwi ,ari kubasomera iby'inama y'ahahise bagira n'ibyo bumvikanaho.

Ipikipiki iri kumuhanda iparitse iriho n'amakasike abiri ndetse impande yaho hahagaritse ipiki, hirya yaho hari uturarabo twiza cyane tugaragaza amabara y'umuhondo .

Imodoka zitwara abagenzi mu mujyi wa kigali, aho umugenzi yageraga mu modoka agakoza ikarita ikintu kimeze nka telefone hanyuma amafaranga akava ku ikarita akajya ku modoka. Abagenzi bakagenda bishimye.

Ni imodoka ihetse imifuka myinshi, iyo mifuka irimo amababi y'icyayi bamaze gusarura, kubera ko iyo icyayi bamaze kugisarura, bakijyana k'uruganda, uruganda rukagitunganya rugakuramo amajyane, ariyo natwe tunwa mu cyayi.

Imodoka nini itwara abagenzi，abantu bari kuva mu Rwanda i Kigali，bari kujya i Bugande i Kampala， imodoka niyo ibatwara, ikanabagarura.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi, itwara abagenzi benshi ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, kugira ngo bagereyo batarushye, kandi bishyura amafaranga make.

Amakipe abiri y'abakobwa bari gukina umupira wa volebolo; uwo ni umupira w'amaboko, bahanganiye kurwanira igikombe ,kugira ngo ikipe imwe muri zo igitahane.

Abantu bari kurushanwa mu gutwara amagare, umuhanda wa kaburimbo, impande y'uwo muhanda hari abantu benshi, abagore, abagabo n'abana bari kubafana, ndetse hariho n'abantu bafata amafoto n'amashusho byakorewe aho hantu.